Umwana wunamye ateze ibiganza kuri robine ari gukaraba, yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ikabutura. Imbere ye hari indobo ipfundikiye ifite ibara ry'ubururu kandi inyuma ye hari ibyatsi n'ibiti.

Umubyeyi wicaye, akikiye umwana wambaye ingofero ifite ibara ry'icyatsi na orange. Kandi hari umuganga wunamye yafashe ku matama y'umwana agiye kumuha umuti. Yambaye ibikomo ku kuboko kw'ibumoso ndetse n'impeta.

Ababyeyi bicaye bakikiye abana, bambaye udupira dufite ibara rya oranje ndetse n'umugabo wunamye wambaye amarinete, afashe ku mwana ukikiwe n'umubyeyi wambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'umweru. Hirya ye hari undi muntu wambaye ingofero y'umukara hamwe n'amarinete.

Abantu bahagaze ndetse imbere yabo hari n'abandi bicaye, inyuma hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu n'umweru, kandi hari inkuta zisize irangi ry'umweru, mu bicaye harimo umugabo wambaye ikositimu zifite ibara ry'ubururu.

Umusaza ufite imvi yambaye ingofero y'umukara ndetse aricaye, iruhande rwe hari ameza yarambitseho ukuboko kandi hari n'umuganga wamuziritse igikoresho bakoresha bapima umuvuduko w'amaraso ku kuboko kw'ibumoso. Hirya yabo hari abandi bantu bicaye ndetse n'abahagaze.

Umugore wikoreye ijerekani ifite ibara ry'umuhondo yapfundikije ishashi n'umupfundikizo w'umutuku, ku ruhande rwe rw'ibumoso hari umwana uhagaze wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu kandi hirya yabo hari igipangu kirimo inyubako isakarishije amabati y'umutuku.

Abantu bicaye harimo umugabo wambaye ishati ifite ibara rya kaki ndetse n'ingofero mu mutwe. Harimo abafite impapuro mu biganza byabo, kandi hari umugabo wicaye wambaye ikote ry'umukara mo imbere yambayemo agapira gafite ibara ry'umweru n'umukara.

Abana basutamye ku ipombo, batezeho ibiganza kandi harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'umutuku ndetse hari n'undi wambaye imyenda irimo ibara ry'icyatsi, umweru n'ayandi, hirya yabo hari ibyatsi byumye.

Abantu bicaye bakikije ameza ateretseho: amacupa, terefoni, amakaye ndetse na mudasobwa, harimo umugabo ufite uruhara ndetse yambaye kositimu zifite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari amadirishya ndetse na televiziyo kandi hari ifoto imanitse ku gikuta cyegereye idirishya.

Inzu isakarishije amabati y'umutuku ndetse isize irange ry'umweru. Ifite inzugi n'amadirishya biri ku murongo kandi hari ikiraro kiri imbere yayo kigiye kiriho ibyuma bisize irange ry'ubururu ndetse n'amayesikariye kandi hari abantu bari kukigendaho.

Abantu benshi bari mu cyumba bicaye ndetse hari n'abandi bahagaze. Imbere yabo hari umugore uteruye umwana kandi yambaye ibitenge. Mu biganza bye afitemo impapuro. No ku kuboko kw'ibumoso yambayeho agakomo.

Abantu bahagaze imbere y'inzu isize irange rya beji, handitseho amagambo avuga ngo Ikigo nderabuzima cya Mayange ndetse harimo umugabo ubahagaze imbere afite umusatsi urimo imvire kandi yambaye amarinete n'ikote ry'umukara yahuje ibiganza.

Umugabo uhagaze iruhande rwe rw'iburyo hari abantu bicaye bafite mudasobwa, ndetse ku rw'ibumoso hari abafite impapuro n'ikaramu bari kwandika, hirya yabo hari abantu bahagaze iruhande rw'idirishya bafite rifite ibirahure, kandi hari n'abandi bahagaze inyuma y'icyapa.

Abantu bicaye harimo umugore agapira k'umuhondo n'agapfukamunwa kandi yambaye n'ishapure mu ijosi, afite igitabo mu ntoki kandi iruhande rwe hari umuganga uhagaze wasomuye umwana uri imbere ye, kandi yambaye ingofero y'umweru.

Umubyeyi wicaye ku ntebe y'urubaho, akikiye umwana ku bibero ndetse yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru. Mu mutwe atezemo igitambaro kandi ku ruhande rwe rw'ibumoso hicaye umwana. Hari umuganga umuri imbere, ufite impapuro ndetse yicaye ku ntebe y'umweru.

Umugore uri gukaraba intoki, ndetse yambaye umupira wa maboko magufi, akenyeye igitenge, mu mutwe yambayemo ingofero. Inyuma ye hari inzu isize icyondo kandi hari n'urugi rw'ibiti bikinguye.

Abantu bahagaze kandi Hari n'injerekani ziri ku murongo harimo zifite ibara ry'umuhondo ndetse na bege, hirya y'abo hari ibiti kandi hari umugore uteze agatambaro mu mutwe ndetse yambaye ishati ifite amaboko magufi y'ibara rya bege akenyeye n'igitenge.

Abagore bari ku ipombo, bari kuvoma amazi, harimo uwambaye isengeri ifite ibara ry'umweru ndetse hari n'undi wambaye agapira k'amaboko magufi karimo ibara ry'umutuku, ubururu, n'umukara, hari uri kudaha amazi mu ndobo y'icyatsi kandi ateze agatambaro mu mutwe, hirya yabo hari igikuta ndetse n'igiti.

Abagore babiri bateze ibitenge mu mutwe harimo uwambaye gifite ibara ry'umukara n'icyatsi, bateruranye umufuka n'umugabo uhagaze hejuru y'indi mifuka myinshi ipanze wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu kandi hirya yabo hari ibiti.

Abana bari ku ipombo baje kuvoma, harimo uhagaze ufite inkoni mu ntoki yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku n'ikabutura y'ubururu ndetse na bote z'umukara. Hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'uruzitiro rw'imiyenzi ivanzemo n'ibiti.

Abana bari kuvoma amazi kuri robine, hari ufashe indobo ifite ibara ry'umweru kandi ari kuvomera n'indi, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse inyuma ye hari n'undi wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umugore uri ku ipombo, ahetse umwana kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi, ari koza umupfundikizo w'indobo ufite ibara rya pinki, ndetse iruhande rwe hari izindi ndobo zigiye zitandukanye, hirya ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Abagore babiri bari ku mugezi harimo ukenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye, y'icyatsi n'umukara w'umuhondo ndetse n'ayandi, kandi hari uteze angatambaro mu mutwe gafite ibara rya pinki imbere yabo hari ijerekani kandi hari n'umwana uhagaze iruhande rwabo, hirya yabo hari urutoki ndetse n'ibyatsi.

Umugore ukenyeye igitenge, yambaye agapira k'amaboko magufi, karimo ibara rya pinki, kandi ateruye umwana wambaye ingofero y'umweru, ari kuvomera mu ndobo ifite ibara ry'umukara, inyuma ye hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umuganga wicaye ku ntebe y'umukara, yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru ndetse imbere ye hari umugore ufite ibisuko, wambaye umupira w'amaboko maremare, ukikiye umwana ku bibero kandi inyuma yabo hari urugi.

Abana bambaye impuzankan ifite ibara rya beje n'ubururu, bafite ibifuro mu ntoki zabo ndetse imbere yabo hari robine eshatu z'amazi zifunguye bari gukaraba ndetse hari n'ibiti n'ibyatsi kandi inyuma yabo hari umuntu uhahagaze.

Abantu bahagaze harimo umukobwa ufite ibisuko wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu kandi hari n'undi wambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi yegeranye n'umugabo wambaye amarinete, munsi y'abo hari ikirango cya UNICEF.

Umwana uri guseka yateze igikombe kuri robine, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya oranje, kandi inyuma ye hari ibiti ndetse rubine yindi amazi ari kumeneka hasi.

Abaganga babiri, harimo uhagaze ndetse n'undi wunamye, uri kureba mu kanwa k'umuntu wicaye ku ntebe y'umutuku, wambaye imyenda y'imikara ndetse n'ingofero ifite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari abandi bantu bahahagaze.

Umubyeyi uri ku ivomero ari kuvomera mu ndobo ifite ibara ry'umukara kandi yambaye agapira k'amaboko magufi, akenyeye n'igitenge, ateruye umwana wambaye ingofero y'umweru, hirya ye hari ibiti bigiye bitandukanye.

Umuntu wambaye umwenda afite amaboko maremare, yateze ikiganza ku gitembo kiri kuzana amazi kandi munsi yacyo harimo andi ahari. Hari amabuye menshi kandi manini ndetse hakurya y'amazi hari n'ibyatsi.

Abagore bicaye ku murongo bakikiye abana, hari uri ku ruhande rw'iburyo umuteruye wambaye agapira gafite ibara ry'umutuku ndetse inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye. Kandi harimo irange ry'umweru n'umukara.

Abantu bahagaze harimo abambaye amataburiya y'umweru, kandi harimo umugore wambaye igisurubeti gifite ibara ry'umutuku n'undi wambaye ijipo ifite ibara rya pinki. Hirya yabo hari inkuta zisize irange ry'umweru, ahagana hasi zisize umukara.

Abantu bahagaze ku mukeka ndetse n'undi usutamye wambaye inkweto n'ipantaro y'umukara n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya orange, afashe umwana wambaye amasogisi ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, ndetse imbere yabo hari ameza ateguyeho agatambaro k'umweru n'ubururu, ateretseho amazi. Hari umugore uhagazemo hagati wambaye ikanzu y'umweru n'agakoti k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara...

Umugabo wambaye itaburiya y'amaboko magufi, ifite ibara ry'ubururu ndetse mu mufuka wayo harimo ikaramu, mo imbere yambariyemo agapira gafite ibara rya kake, kandi hari umugore uri iruhande rwe ukenyeye ibitenge ndetse yambaye n'agapira k'amaboko magufi, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amabuye ndetse n'idirishya.

Umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umuhondo, ubururu n'ayandi, ndetse yambaye agapfukamunwa kandi yambaye umupira ufite ibara rya orange mo imbere, hirya ye hari ibyuma bigiye biriho insinga zigiye zitandukanye.

Umugore wambaye ishati y'amaboko magufi, ifite ibara ry'umweru ndetse mu ijosi hariho ibara ry'ubururu. Ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'uturongo tw'umweru. Afite terefone mu ntoki ndetse hari n'ikayi yarambuye, ari kwandikisha ukuboko kw'iburyo. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ekuteri mu matwi, kandi inyuma ya hari icyapa cyanditseho ijambo "SIDA".

Abagore babiri bunamye ku ivomero ryanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Kandi hejuru yaryo hari undi washikamishijeho ukuboko kw'iburyo, wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umutuku. Hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'ibiti.

Umugore wikoreye indobo ifite ibara ry'umutuku, atenganse ifite ibara ry'umuhondo mu kuboko kw'iburyo. Imbere ye hari ibyatsi byumye kandi hari n'ibiti by'amoko agiye atandukanye.

Umuzungu ufite mikoro mu ntoki, ndetse ku kuboko kw'ibumoso yashyize mu gatuza yambayeho isaha. Ukw'iburyo yambayeho agakomo, kandi yambaye umupira ufite amaboko magufi w'ibara risa n'ivu. Inyuma ye hari icyapa kiriho amabara agiye atandukanye.

Abantu bicaye mu buryo bw'amatsinda, imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu bigiye bitandukanye, kandi ateguyeho agatambaro k'umweru. Hariho ariho mudasobwa, andi ariho amazi, kandi hari n'abantu bahagaze hagati yabo.

Abantu bambaye amataburiya y'ubururu kandi bahagaze imbere y'inyubako yanditseho ikigo nderabuzima cya Mayange, isize irangi rya beje kandi ku ruhande rwayo rw'iburyo hari ibiti byinshi.

Abantu bicaye harimo umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umweru, hirya hari undi wicaye ahegereye umuryango, wambaye ibitenge kandi akikiye umwana w'uruhinja, hari umugabo ubahagaze iruhande wambaye ishati y'amaboko magufi, ndetse hirya hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Abagore babiri bateruranya umufuka, harimo uwambaye ingofero ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'uteza agatambaro mu mutwe karimo ibara rya oranje. Imbere yabo hari abandi bahahagaze harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko n'ipantaro y'umweru. Kandi hari n'umugore uri kugenda, uteze agatambaro mu mutwe ndetse n'indi mifuka myinshi igiye igerekeranyije.

Umugabo uhagaze yambaye ikote ry'umukara, mo imbere yambariyemo ishati y'umweru ndetse na karuvate. Hari agatuti kari imbere ye afasheho gafite ibara ry'umweru n'ubururu. Iburyo bwe hari intebe zifite ibara rya beje ndetse n'uducupa tw'amazi duteretse ku tumeza duto turi hagati y'izo ntebe.

Umuntu wicaye ku buriri, yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu kandi mu mutwe atezemo igitambaro, iruhande rwe rw'ibumoso hari umuganga wamufashe ku kuboko, wambaye amarinete ndetse n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso, kandi uruhande rwe rw'iburyo hari undi muganga uhahagaze ufite impapuro mu ntoki.

Abantu benshi bagiye bicaye mu matsinda ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, bakikije ameza ateretseho uducupa tw'amazi y'Inyange ndetse hariho n'impapuro n'amakaramu kandi hirya yabo hari igikuta.

Abantu bicaye ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse hamwe na hamwe hagiye hariho uduseke, kandi hari n'abandi bicaye imbere kuri sitege harimo umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku.

Umwana wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse n'ikabutura, ari kuvoma amazi ye mu gikombe ndetse hari ikigega gifite ibara ry'umukara, inyuma ye hari inkuta zubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyatsi.

Abantu bari ku ipombo, bari kuvoma amazi. Hari injerekani ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'akajerekani gato gafite ibara rya beje, harimo umuntu ufite inkoni ndetse n'undi mugabo wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari ibyatsi.

Abantu bunamye, bari gutera imboga mu karima k'igikoni ndetse inyuma yabo hari abandi bahagaze bambaye udupira dufite ibara rya oranje, ndetse hirya yabo hari ibiti by'amoko atandukanye, n'ikigega ndetse n'inzu yubakishije amatafari ahiye.

Abantu bateze indobo kuri robine harimo ifite ibara ry'umweru, iy'ubururu, iy'umuhondo ndetse n'iya oranje kandi hari n'abandi bafite injerekani harimo iy'umukara, iy'umuhondo n'akajerekani gato k'umweru, hirya yabo hari ibiti by'amoko atandukanye.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero ndetse n'umupira w'amaboko magufi, afashe ku njerekani yikorewe n'umwana, kandi ipfundikishije umukanana. Iruhande rwabo hari undi muntu ufite telefone mu ntoki ari kubafotora, kandi hirya yabo hari abandi bahagaze hamwe n'ibyatsi.

Abana bari guseka bararamye ndetse bahuje ibiganza byabo bari gukaraba, inyuma yabo hari umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'icyatsi ndetse n'ipantaro kandi yambaye na bote, afite igikombe gifite ibara ry'ubururujuru, ari kubasukira amazi.

Abana bambaye impuzankano bari kuri robine, bamwe batezeho ibiganza bari gukaraba kandi imbere yabo hari indobo zifite ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'ibyatsi.

Abantu bicaye bakikije ameza ateretseho udukombe tw'udutasi ndetse n'udusahani, kandi hari umugabo wambaye karuvati y'umukara ndetse n'ishati y'amavuko ifite ibara ry'umweru hamwe n'amarinete.

Umwana we afite icupa ririmo amazi ndetse yambaye imyenda yadodesheje mu gitenge kandi imbere ye hari igikuta gisize irangi ry'umukara, ahandi hubakishije amatafari ahiye.

Umwana wunamye, yambaye agashati yahinnye amaboko gafite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara ndetse imbere hari ameza ateretseho indobo ifite ibara ry'umweru ipfundikije umupfundikizo ufite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye ndetse hari n'abandi bari imbere bari mu ntebe zifite ibara rya beje, hari umugabo uri ku ruhande rw'ibumoso wageretse ukuguru ku kundi, wambaye ipantaro, ikote n'inkweto bifite ibara ry'umukara mo imbere yambayemo ishati y'umweru.

Umwana uteruye indobo y'umuhondo, yambaye agapira k'amaboko magufi n'agakabutura, arasutamye kandi imbere ye hari umugabo uhahagaze, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, hirya ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Abana bambaye impuzankano bari gukaraba kuri robine ndetse hari indobo zifite ibara ry'umuhondo n'utujerekani, kandi harimo umwana wambaye inkweto z'umutuku n'agapira k'umutuku, mu imbere mu ishati y'amaboko magufi yambaye, hirya yabo hari ibyatsi n'ibiti bitandukanye.

Umuntu wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu n'umweru kandi mu mutwe yambayemo igitambaro kirimo amabara atandukanye, harimo iry'umuhondo n'ayandi. Ndetse yambaye umwenda afite ibara ry'icyatsi mo imbere harimo ufite ibara ry'umukara na oranje.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya kaki, ndetse ku ruhande rwe rw'ibumoso hari umuganga wambaye agapfukamunwa, umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, hamwe na ga mu ntoki kandi ari kumutera urushege.

Abantu bahagaze ku ivomero, hari injerekani ziri ku murongo ziri mu ibara rya beje ndetse n'umuhondo kandi hari umugore uteze agatambaro mu mutwe, ukenyeye igitenge, wambaye ishati y'amaboko magufi, afashe ku gikuta cy'inzu iri hafi aho, hirya yabo hari ibiti.

Abantu bicaye harimo ababyeyi bakikiye abana ndetse hari umugabo wambaye amarinete, afite umusatsi w'umukara kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya orange n'ipantaro y'umukara, mu kuboko kwe kw'ibumoso afashemo isahane ukw'iburyo ari kugukoresha agaburira umwana ukikiwe n'umubyeyi.

Abana baje kuvoma harimo umwe wambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru kandi hari n'undi wambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara, inyuma yabo hari ibyatsi n'ibiti.

Abana babiri basutamye imbere y'ipombo, batezeho ibiganza kandi harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku. Undi yambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi n'umweru kandi hirya yabo hari andi mazi ari gutemba n'ibyatsi byumye ndetse n'amabuye.

Umuntu wicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya beje ndetse n'umuhondo wo mu ijosi, iruhande rwe hari ameza yashyizeho ukuboko ndetse hari n'umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hari mudasobwa afashe ku kuboko ku iburyo k'uwo mukobwa wicaye kandi ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Umukobwa usutamye imbere ya robine ari kuvoma amazi ndetse inyuma ye hari imyenda imanitse ku mugozi irimo amabara atandukanye, hari ifite ibara ry'ubururu, umukara n'ayandi. Hirya ye hari inzu ndetse imbere ye hari n'igiti.

Abagore bambaye imyenda igiye itandukanye bahagaze imbere y'inyubako, yubakishije amatafari ahiye, ndetse hari amadirishya y'ibirahure, agiye yometseho impapuro, kandi muri bo harimo uwambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'agakote k'umukara, hari n'ufite isakoshi.

Abantu bicaye, harimo abana ndetse n'umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara rya pinki. Imbere ye hari umukecuru wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu kandi yifubitse igitenge kandi hari inzu yubakishije amatafari ahiye, isakarishije amabati y'umutuku.

Abantu bahagaze ku ma esikariye, harimo umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara rya move kandi inyuma yabo hari ibyapa bigiye bifite amabara atandukanye iry'umuhondo, iry'umweru n'iry'ubururu, hari n'umuntu wambaye ijire y'umuhondo uhetse igikapu cy'umukara mu mugongo.

Umwana w'umukobwa uhagaze wambaye ijipo ifite ibara ry'ubururu n'agapira k'amaboko mo imbere yambariyemo ishati ifite ikora ry'umweru, ari gukaraba intoki k'ubukarabiro kandi hirya ye hari ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye ku ntebe z'imikara, bakikije ameza ndetse harimo umugabo wambaye karuvate y'umutuku na kositimu y'umukara, iruhande rwe hari amadarapo agiye atandukanye, harimo irifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abantu bicaye bakikije ameza harimo uwambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'umutuku kandi hari n'undi wifashe ku mutwe ndetse imbere ye hari mudasobwa, hirya yabo hari urugi hamwe n'igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse ahagana hasi hariho irangi ry'umukara.

Abantu bicaye mu ntebe bakikije ameza, ateretseho udutasi dufite ibara ry'umweru kandi muri bo, hari umugabo wambaye amarinete ndetse n'ishati y'umweru na karuvati n'ipantaro by'umukara. Ndetse hari n'undi wambaye karuvati ifite ibara ry'umutuku n'ishati ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye, abandi barahagaze, higanjemo ababyeyi bakikiye abana. Imbere y'aho hari umuganga usutamye, wambaye agapfukamunwa n'itaburiya ifite ibara ry'umweru kandi amaboko ye yose yafashe ku mwana ukikiwe n'umubyeyi wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze mu ibaraza ry'inzu yubakishije amatafari ahiye kandi isakarishije amabati. Harimo umugabo wambaye itaburiya ifite amaboko maremare ndetse ku ruhande rw'ibumoso, hari icyapa kirimo amabara atandukanye harimo iry'umweru, ubururu ndetse hari n'indabo.

Umwana wimennye amazi mu maso ndetse ikiganza cye cy'iburyo yagiteze kuri robine. Yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu n'umukara kandi ukuboko kwe yagushyize ku kuguru kw'ibumoso.

Umuntu wunamye mu mazi, ari kuvomera injerekani, yambaye agapira k'amaboko magufi kandi akenyeye n'igitenge, inyuma ye hari undi muntu uri koza igare ndetse hirya yabo hari ibyatsi n'ibindi biti.

Umwana uri kuvomera injerekani ifite ibara ry'umuhondo kandi imbere ye hari izindi ziri ku murongo. Yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ikabutura, hirya y'ivomero hari ibyatsi ndetse n'insina.

Umugore wicaye yambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira ufite ibara ry'umukara. Iruhande rwe hari umuganga uri kumutera urushinge ku kuboko kw'iburyo. Kandi hari ameza ateretseho ikaramu n'impapuro, inyuma yabo hari abandi bantu bahicaye.

Abantu bicaye ku ntebe abari imbere bose bafite impapuro mu ntoki zabo, inyuma hari umuntu wambaye umwenda ufite ibara ry'umutuku witangiriye itama kandi hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo cyometseho impapuro.

Abantu bicaye mu ntebe z'imituku ndetse hari ameza abari hagati arambuyeho agatambaro k'umweru hateretseho uducupa tw'amazi y'inyange ndetse n'ibitabo bifite ibara ry'ubururu. Hirya hari abandi bicaye harimo umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara.

Abana bicaye bambaye udupira dufite ibara rya orange harimo umugabo wunamye arikuywesha umwana mu gikombe gifite ibara rya pink ndetse n'umugore wambaye ingofero ifite ibara ry'ubururu, mu kiganza cye afitemo igikombe gifite ibara rya orange hirya yabo hari ababyeyi bateze udutambaro mu mutwe.

Abagabo bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza arambuyeho agatambaro, ateretseho uducupa tw'amazi, ibitabo bitandukanye ndetse n'impapuro, hari umugabo wafatanije ibiganza, yambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso kandi hirya yabo hari idarapo ririmo ibara ry'ubururu, icyatsi n'umutuku.

Umugore wambaye amarinette ndetse mu ijosi yambayemo badge hamwe n'agashanete. Yambaye ibikomo ku kuboko kw'iburyo hamwe n'impeta kandi inyuma ye hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umusaza uri guseka, afite ibihanga kandi yambaye ingofero mu mutwe ifite ibara ry'umukara n'ishati y'umweru irimo uturongo tw'umukara kandi yambaye umwitero ufite ibara ry'umuhondo.

Umugore wambaye ikanzu idodesheje mu gitenge, ifite imishumi ndetse mo imbere yambariyemo agapira gafite ibara rya oranje. Akikiye umwana wambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso, gafite ibara ry'umukara n'iherena ku gutwi. Yicaranye n'undi mugore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru, mu ntoki afitemo terefone.

Umugore wicaye ku ntebe y'urubaho, yambaye igitenge kirimo amabara agiye atandukanye, harimo iry'umuhondo, umukara n'ayandi kandi inyuma ye hari igikuta kiriho idirishya ry'igiti, hariho na giriyaje ndetse imbere ye harambuye umusambi.

Umukobwa uri guseka yambaye iherena ku gutwi ku iburyo kandi afite n'ibisuko ku mutwe, hirya ye hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ndetse hari ibara ry'ubururu na oranje.

Abantu bicaye mu ntebe ziri mu byatsi ndetse imbere yabo hari ameza, hari umugore wambaye ibitenge kandi yambaye n'umupira w'amaboko magufi ufite ibara rya kaki. Hirya yaho hari umugabo uhagaze kandi hari n'abantu bicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru ndetse hariho n'igitambaro cy'icyatsi.

Umugabo ufashe mikoro ari kuvuga ndetse yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu. Hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, yandikishije ibara ry'umweru ndetse hari n'ayandi yandikishije ibara ry'umuhondo.

Umugore uhagaze yambaye amanerite ndetse n'iherena kandi mu ijosi rye harimo agashanete, imbere ye hari agatuti afasheho gafite ibara ry'umweru n'icyatsi kandi hariho indangururamajwi ebyiri.

Umukecuru wicaye akubye amaguru, akikijwe n'abana harimo abitangiriye itama kandi hari uwambaye umupira w'amaboko maremare, udoze mu budodo yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu.

Umugore uteze igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'umukara kandi yambaye n'agapfukamunwa. Yambaye umupira ufite imashini imbere w'ibara ry'umukara ndetse n'imishumi y'igikapu gihekwa mu mugongo. Kandi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza ari mu ibara ry'icyatsi n'ayandi ari mu ibara rya oranje.

Abantu bicaye ku ntebe z'ibiti ndetse hagati y'abo hari ameza ateretseho telefone kandi hari umugore ukikiye umwana ku bibero wambaye ingofero ifite ibara rya kake n'agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umutuku, hirya y'abo hari keto ifite ibara ry'umukara n'umweru.

Abantu bahagaze mu ihema rifite ibara ry'umweru, hari ameza abari imbere, agiye ateguyeho udutambaro dufite ibara ry'umukara, hamwe n'impapuro zigiye zometseho kandi harimo umugabo wambaye baji mu ijosi n'ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu.

Inzu isize irangi ry'umuhondo. Ifite inzugi n'amadirishya bifite ibirahure kandi bisize irangi ry'ubururu. Hejuru ku madirishya hari amakositara ndetse hari na fondasiyo yubakishije amabuye.

Umusaza ufite iminkanyari mu maso ndetse yambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, hamwe n'umwitero ufite ibara ry'umuhondo, afite ubwanwa kandi amenyo ye harimo ibihanga.

Umwana wambaye agapira k'umweru yikoreye amaboko ari kurira, inyuma ye hari abandi bantu benshi ndetse harimo umugore wambaye agapira karimo ibara ry'umuhondo n'umukara k'amaboko magufi, afite inkwi mu kiganza ke cyo ku kuboko kw'ibumoso.

Umugabo wambaye ikositime zifite ibara ry'umukara, yubitse umutwe, kandi yahuje ibiganza. Imbere ye hari ururabo, rufite amabara atandukanye, harimo icyatsi, umweru, hamwe na oranje. Kandi hirya ye hari umuntu uhahagaze, wambaye ijire.

Abantu bahagaze kandi imbere yabo hari ameza ateretseho impapuro ndetse n'ibitabo. Kandi harimo uwambaye imyenda y'umweru ndetse n'umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, yambaye ipantaro ifite ibara ry'umuhondo ndetse yafatanyije ibiganza.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku, bagiye bambaye imyenda y'amabara atandukanye. Hari umugore wicaye imbere, afite terefone mu ntoki ndetse yambaye iherena kandi yambaye n'agakote gafite ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze mu byatsi imbere y'imodoka iparitse kandi harimo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite ibara ry'umweru n'ipantaro ya kaki ndetse n'inkweto z'umukara, hirya y'imodoka hari ihema rifite ibara ry'umweru n'icyatsi.

Umugore wambaye ishapure mu ijosi kandi yambaye igitenge kiri mu mabara atandukanye higanjemo ibara rya oranje, inyuma ye hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye biri mu kabati.

Benshi bari mu muhanda biganjemo abambaye imipira y'icyatsi ndetse n'abambaye imyenda y'imikara. Hirya yabo hari ibiti ndetse n'amazu, kandi bafite icyapa cyanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo ''kurwanya ihohoterwa ni inshingano yanjye''.

Abantu bicaye mu ntebe z'umukara ndetse hari n'abandi babari imbere bari ahantu hari tapi y'icyatsi, imbere yabo hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru ndetse iruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso bw'ayo meza hari indabo.

Umukobwa uri guseka afite umusatsi w'umukara kandi yambaye agapira gafite ibara ry'umutuku k'amaboko, mo imbere yambariyemo umwambaro ufite ibara ry'ubururu kandi inyuma ye hari intebe ihari hamwe n'urugi.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, yambaye n'amarinete ndetse ukuboko kwe kw'iburyo kwafashe ku muntu umwicaye imbere, wambaye ishati ifite ibara ry'umutuku n'ipantaro ya oranje ndetse witangiriye itama.

Umukobwa wicaye ari guseka, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'ipantaro yahinnye y'ikoboyi. Ukuboko kwe yagukojeje ku mutwe kandi yambayeho ibikomo bibiri. Mu ijosi yambayemo shanete...

Umugabo wambaye amapingu ku maboko ye yombi ndetse yicaye hasi, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'ikabutura ifite ibara ry'umukara. Inyuma ye harira abantu bahagaze harimo uwambaye imyenda y'imikara ndetse n'undi wambaye ijipo irimo amabara atandukanye.

Abantu bahagaze harimo abambaye udupira tw'amaboko magufi dufite ibara ry'umweru, ndetse hari n'umugabo wambaye ikabutura y'ubururu, kandi yegeranye n'umugore wambaye ingofero hamwe na marinete uri guseka, inyuma yabo hari inyubako ndende, kandi bakikijwe n'ibiti hamwe n'ibyatsi.

Abantu bahagaze higanjemo abambaye udupira dufite ibara ry'uburu tw'amaboko mugufi, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati kandi yambaye n'ipantaro y'umukara. Hari umukobwa wambaye inkweto z'umukara n'ijipo ifite ibara risa n'ivu.

Inzu isize amarangi agiye atandukanye ndetse ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, hari n'aho zisize irangi ry'umweru. Imbere yayo hari ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'ibyatsi kandi hari n'akayira kubakishije amapave.

Abagore batatu bicaye bombi bambaye udupfukamunwa, harimo uwambaye agapira k'amaboko magufi ndetse ateze igitambaro mu mutwe. Hari undi ufite impapuro mu ntoki kandi hirya yabo hari umuhanda n'ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe harimo umugore wambaye ikote ry'umutuku hamwe n'amarinete ndetse n'iherena ku gutwi, kandi hari n'undi wambaye impeta ku kuboko kw'ibumoso hamwe n'isaha, imbere ye hari uducupa tw'amazi tuhateretse ndetse afite ikaramu mu ntoki.

Abantu babiri bafatanye ku rutugu, harimo uwambaye ishati y'umweru ndetse n'undi wambaye ifite ibara ry'umuhondo. Inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye kandi hari n'umugore uri guseka, afite umusatsi w'umukara ndetse yambaye igitenge.

Umugabo wicaye ku ntebe y'urubaho ndetse yahinye ipantaro ye ifite ibara rya kaki, imbere ye hari abagore bahicaye harimo uwambaye ikanzu y'umukara, irimo ibara ry'umweru ufite impapuro mu ntoki, ndetse inyuma yabo hari itsina n'ibindi biti bitandukanye.

Umuntu uryamye, iruhande rwe hari abaganga bambaye imyenda ifite ibara ry'umukara, harimo umugore wambaye iherena ku gutwi kandi mu mutwe yambayemo agafire gafite ibara ry'ubururu kandi hari n'umugabo wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umukara afite n'ubwanwa.

Umukobwa uri guseka, afite ibisuko ku mutwe ndetse yambaye ikote rifite ibara ry'ubururu. Mu ntoki afitemo ikaramu n'urupapuro. Yegeranye n'umugore wambaye amarinete ndetse ku kiganza cye cy'ibumoso yambayeho impeta. Imbere yabo hariho ameza ateretseho terefone n'uducupa tw'amazi.

Umukobwa ufite imisatsi myinshi, igera mu maso, ndetse ari kwireba mu ndorerwamo imuri imbere. Afite uburoso burimo ibara ry'icyatsi, ari koza amenyo. Kandi yambaye isengeri ifite ibara ry'umweru.

Umuntu wambaye isengeri ndetse afite n'ibisuko, imbere ye hari ameza ateretseho terefoni, ikaramu n'impapuro kandi imbereye hari n'umuganga, wamwasamuye amufashe ku kananwa kandi yambaye agapfukamunwa.

Icyumba kirimo intebe ifite ibara rya move ndetse ifite n'amapine, hejuru muri parafo harimo amatara arikwaka ibara ry'umweru kandi hari n'igitanda kiryamaho umurwayi igihe ari kuvurwa kwa muganga.

Abantu bari guseka bamwe barahagaze abandi baricaye, harimo umugabo ufite terefone ye mu kuboko kw'ibumoso kandi yambaye ikositimu z'ubururu, mo imbere ni ishati y'umweru, kandi hari undi mumama uteruye uruhinja.

Abana bambaye impuzankano bari mu ishuri, harimo abafite udukapu tubateretse imbere kandi harimo umugore ufite ibisuko, ari guseka. Inyuma yabo hari igikuta gisize irangi ry'umweru, hamwe n'idirishya ry'ibirahure risize irangi ry'icyatsi.

Umwana uri guseka yicaye mu ntebe ifite ibara ry'ubururu, mu mutwe yambayemo agatambaro gafiteho ururabyo k'ibara rya pinki kandi mu kiganza cye cy'iburyo afashemo uburoso bufite ibara rya move n'umweru.

Umugabo w'umwirabura uryamye, arasamye ndetse iruhande rwe hari umuganga wambaye agapfukamunwa n'agaferi mu mutwe bifite ibara ry'umweru. Ndetse yambaye ishati y'amaboko magufi, hamwe na ga bifite ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo amakaro ndetse hejuru muri parafo harimo kamera n'amatara yaka ibara ry'umweru, hari intebe iri munsi y'ameza, ifite ibara ry'icyatsi ndetse ameza afite ibara ry'umweru.

Umugore uri gushinyiriza, yambaye isengeri ifite ibara ry'umweru ndetse afite umusatsi ugera mu maso kandi yambaye amaherena ku matwi yombi, mu ntoki ze harimo akadodo gato gafite ibara ry'umweru, yacishije mu menyo.

Umugore ufite umusatsi ndetse ku gutwi kwe kw'ibumoso yambayeho iherena. Arasamye hari umuganga umuri iruhande wambaye agapfukamwa na ga mu ntoki, bifite ibara ry'umweru, ari kureba mu kanwa ke, afite utwuma bakoresha bakura amenyo.

Abana bari kumurongo bambaye impuzankano, hari ufite uburoso mu kuboko kwe kw'iburyo bufite ibara ry'umweru n'umuhondo, inyuma ye hari undi ufite ubw'ubururu ari koza amenyo, ndetse n'undi ufite ubw'icyatsi, kandi hirya yabo hari ibihuru.

Umugabo ufite ubwanwa ndetse n'amenyo y'umweru. Yambaye ishati ifite ibara ry'umweru, kandi ari kwireba mu ndorerwamu. Mu biganza bye, afashemo urudodo rufite ibara ry'umweru, yacishije mu kanwa.

Umugabo wambaye itaburiya afashe ku rutugu rw'umwana wambaye ishati y'amaboko magufi, ifite ibara ry'icyatsi inyuma yaho hari abantu bahagaze harimo umugabo wambaye ishati y'umweru w'imbere ndetse n'ikote n'ipantaro bifite ibara risa n'ivu inyuma yabo hari igikuta kiriho ikibaho.

Umugore ufite imisatsi ndetse yambaye amarinete. Kandi yambaye ikanzu ifite ibara ry'umuhondo. Imbere ye hari ameza ateretseho ibinini, ndetse inyuma ye hari idirishya ry'ibirahure risize irangi ry'umweru.

Umukecuru wambaye amaherena ku matwi yombi kandi yambaye impeta ku kiganza cy'ibumoso, intoki ze yazishyize ku z'umukobwa umwunamye inyuma uri guseka, wambaye isaha ku kuboko kw'ibumoso ndetse n'imyenda ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Umugore ufite umusatsi urimo imvi, yicaye kuri tapi ifite ibara risa n'ivu. Kandi yahinnye ukuguru kw'ibumoso, ukw'iburyo arakurambura ndetse amaboko ye yombi ayakoza ku rukweto. Yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu. Kandi hirya ye hari igiti gifite ibara ry'icyatsi.

Umugore wicaye ndetse ateze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umukara, yambaye amarinete hamwe n'impeta ku kiganza cye cy'ibumoso, iruhande rwe hari umuganga wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, wamwunamye iruhande.

Umukecuru ufite imvi yambaye amarinete kandi yambaye n'iherena ku gutwi kwe kw'ibumoso, ikiganza ke yagikojeje ku munwa kandi mu kuboko kw'ibumoso afitemo ikirahure, yambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ubururu bwijimye.

Abantu bahagaze hagati y'ibyatsi bigiye bitandukanye, harimo umugabo wambaye igikanzu kinini gifite ibara ry'umweru kandi yegeranye n'umugore wambaye ikanzu, yazamuye ukuboko kw'iburyo ndetse ikanzu irimo amabara y'umutuku n'umuhondo.

Umusaza wambaye agapira k'amaboko magufi ndetse afite ikirahure cy'amazi mu kuboko kw'iburyo, ukuboko kwe kw'ibumoso gufashweho n'umuganga, ari kumushyirira ibinini mu kiganza kandi umuganga yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse afite ibisuko ku mutwe.

Umukecuru uhagaze afite isahani y'umweru mu kuboko kw'ibumoso, iriho ibyo kurya bitandukanye ndetse mu kuboko kw'iburyo afashemo ifoke. Kandi afite imvi ndetse yambaye amaherena ku matwi yombi.

Umugabo ufite imvi aryamye ku gitanda yambaye umwenda ufite ibara ry'umweru kandi ukuboko kwe kw'iburyo yagufatishije ku nda. Iruhande rwe hari umuganga uhahagaze wambaye ikaburiya y'umweru.

Umugabo uri guseka afite imvi kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu. Ku ruhande rwe rw'iburyo hari umuganga ufite imisatsi miremire ndetse yambaye itaburiya y'umweru y'amaboko maremare, yamufashe ku rutugu no ku kuboko kw'iburyo.

Umukecuru udafite umusatsi yambaye iherena ku gutwi kw'iburyo kandi afite ikirahure cy'amazi mu kiganza cy'iburyo. Ndetse hirya ye hari ubukarabiro kandi hari n'idirishya ry'ibirahure ririho amarido.

Umugabo wambaye amarinete kandi yambaye n'ishati y'amaboko, ukuboko kw'ibumoso yambayeho agakomo, naho ikiganza cy'iburyo yagihuje n'icy'umuganga umuri iruhande ufite imisatsi miremire, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Umukecuru uhagaze ndetse amaboko ye yayashikamishije ku gatuti kamuri imbere, afite imvi kandi yambaye shanete mu ijosi ifite ibara ry'umweru n'umukara, hirya ye hari imodoka, ibyatsi, ibiti hamwe n'amazu.

Umukecuru ufite umusatsi uririmo imvi, yambaye amarinete, kandi yambaye agapira gadafite ibara rya kaki harimo uturongo tw'umukara, afatanye mu kiganza n'umuganga umuri iruhande wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, hirya yabo hari ibyatsi.

Abantu bari munsi y'igiti kinini, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi, harimo umugabo wicaye ku ntebe y'umweru, wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu, ndetse ku maboko gafite ibara rya oranje, kandi hari n'undi mu bicaye hasi wambaye imyenda y'umuhondo.

Umugabo n'umugore bari muri siporo, bose bafunze ibipfunsi kandi umugore afite umusatsi urimo imvi ndetse ku kuboko kw'ibumoso yambaye isaha kandi umugabo yambaye impeta ku kiganza cy'ibumoso, n'agapira k'amaboko magufi gafite ibara risa n'ivu.

Umusaza wicaranye n'umwana bari guseka, ndetse umwana yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umukara n'umweru. Imbere yabo hari ameza ateretseho amatasi y'umweru, kandi hari igitabo bafite bari gusoma. Umusaza yambaye amarinete ndetse n'agapira k'amaboko magufi. Afite imvi

Abantu bari mu muhanda, hari umugore wambaye baji mu ijosi ndetse mu kuboko kw'iburyo afitemo igikapu gifite imishumi, gifite ibara rya kaki. Kandi hari uwo afashe ku rutugu, wambaye ikote ndetse n'ingofero mu mutwe, kandi yambaye na furari ifite ibara ry'umukara n'umweru. Hirya yabo hari ibyatsi ndetse n'inyuma yabo hari ibiti.

Abagore babiri bari mu muhanda, umwe ateze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umutuku, undi afite ibisuko ku mutwe. Bambaye imyenda ya siporo kandi hirya yabo hari ibiti n'ibyatsi hamwe n'indabo.

Umukecuru n'umusaza bafite imvi ndetse umukecuru yambaye iherena ku gutwi hamwe n'agashanete mu ijosi. Umupira w'umutuku yambaye urimo uturongo tw'ibara ry'umukara. Imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu bigiye bitandukanye harimo igikombe, amadarubindi hamwe n'ibindi.

Umukecuru wambaye ikanzu idodesheje mu gitenge, kandi afite n'ivi. Imbere ye hari umuganga uhicaye wambaye agapfukamunwa ndetse na ga mu ntoki, yamufashe ku kuboko kw'ibumoso. Hirya yabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi hamwe n'indabo.

Umusaza ufite umusatsi uririmo imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso. Iruhande rwe hari umuganga wambaye iherena ku gutwi ndetse na baji mu ijosi, kandi yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu. Hirya yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umukecuru ufite umusatsi urimo imvi ndetse n'iminkanyari mu maso, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse n'iherena ku gutwi kw'ibumoso, yarambuye amaboko, ku kuboko kwe kw'iburyo hariho agatambaro k'umweru, inyuma ye hari undi mugore wambaye isengere ndetse n'iherena ku gutwi nawe warambuye amaboko.

Abantu bicaye mu ihema ry'umweru ririho udutambaro tw'amabara atandukanye harimo umukara, umuhondo n'icyatsi harimo abandi bantu bahagaze hari umugore wambaye ikanzu y'umukara ndetse n'ijire hirya y'abo hari ibiti.

Umusaza ufite imvi, yambaye ipantaro y'umukara ndetse hari abantu babiri bari kumuhagurutsa ku buriri, harimo umugore wambaye agapira gafite ibara rya beje ndetse hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru.

Umuntu ufite imvi ndetse yambaye ishati y'amaboko irimo amabara agiye atandukanye, imbere hari ameza atetseho amasahane ariho ibyo kurya bigiye bitandukanye kandi hari n'igikombe cy'ikirahure kirimo amazi.

Abantu ban bicaye harimo usaza n'umukecuru bafite imvi kandi imbere yabo hari ameza atetseho amasahane ndetse n'igikombe kirahure, iruhande rw'umusaza hari umusore wunamye wambaye imyenda ifite ibara ry'ivu hamwe n'amarinete.

Umusaza ufite imvi n'iminkanyari, yambaye ishati irimo uturongo tw'amabara agiye atandukanye, kandi ateruye mwana ufite igipupe mu ntoki, ndetse yicaye mu ntebe z'imisego zifite ibara risa n'ivu.

Umusaza ufite imvi yambaye amarinete kandi yambaye n'agapira k'amaboko magufi, iruhande rwe rw'iburyo hari umuganga ufite imisatsi miremire, wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku umufashe ku kuboko.

Umusaza wambaye amarinete afite imvi n'iminkanyari mumaso yambaye ishati ifite ibara ry'icyatsi kandi imbere hari ameza ariho ikaye ari kwandikiramo.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko magufi ndetse yambaye n'ipantaro ifite ibara rya kake, afite imvi hari umuganga uri ku ruhande rwe rw'ibumoso umufashe ku rutugu ari kumwigisha kugenda kandi inyuma ya bo hari igikuta gisize irange ry'umweru ndetse hirya yabo hari akabati.

Abakecuru bafite inkoni mu kuboko kw'iburyo, harimo uteze agatambaro k'umukara mu mutwe kandi undi afite imvi. Inyuma yabo hari umwana wambaye agapira gafite ibara ry'umweru ndetse n'inkweto zifite ibara ry'umuhondo kandi hari insina, ibyatsi hamwe n'ibiti.

Umusaza n'umukecuru bafite imvi, umukecuru yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso n'agapira gafite ibara ry'umutuku, umusaza yambaye agakomo ndetse n'impeta ku kuboko kw'ibumoso kandi imbere yabo hari ameza.

Umukecuru wicaye ku buriri ndetse yambaye agapira k'amaboko, gafite ibara risa n'ivu, mo imbere yambayemo umwenda ufite ibara risa n'ubururu joro, mu biganza bye afashemo umugozi ari gukurura, ufite ibara rya pinki kandi hari umuganga umuhagaze imbere ufite imisatsi miremire.

Umugore wicaye wambaye udukomo ku maboko ye yombi ndetse hirya ye hari undi ukikiye umwana kandi inyuma yabo hari abana babahagaze hejuru. Mu nguni iruhande rw'ibumoso hari indobo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umupfundikizo w'umukara.

Umusaza wicaye ku buriri buriho imisego, ndetse mu biganza bye afitemo ikirahure cy'amazi ari kunywa. Afite umusatsi urimo imvi kandi imbere ye hari umukecuru, wambaye iherena ku gutwi ndetse n'amarinete. Na we yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu.

Abagore batatu harimo uwicaye hagati afite telefone mu ntoki ndetse hari undi wambaye amarinete n'ingofero y'umweru mu mutwe uri ku ruhande rwe rw'ibumoso, yambaye ingofero ifite ibara ry'umweru n'ubururu, inyuma yabo hari akabati.

Umusaza wicaye ku ntebe y'umweru, yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara rya shokora. Afite umusatsi urimo imvi kandi ku ruhande rwe rw'iburyo hicaye umuganga wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru hamwe na karuvate ifite ibara ry'ubururu. Imbere yabo hari ameza ariho igitabo ndetse n'ikaramu.

Abantu bari guseka harimo umusaza ufite imvi yambaye ishati ifite ibara ry'umweru, yegeranye n'umugore ufite imisatsi myinshi uhetse umwana wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, kandi hari n'umugabo uhetse umwana w'umukobwa wambaye agasengeri gafite ibara ry'umuhondo.

Abantu bicaye bambaye imyenda igiye ifite amabara atandukanye, imbere yabo hari abandi bari kubyina kinyarwanda, harimo ababyeyi bambaye imikenyero ndetse n'abagabo biteye imyitero y'umweru, hamwe n'imipira y'amaboko magufi, ifite ibara ry'ubururu.

Abagabo babiri bicaye, imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi kandi ariho n'indangururamajwi. Hari umusaza wambaye amarinete, imbere ye hari mudasobwa kandi inyuma yaho hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Abagore bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo uwambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku, kandi inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'umuhondo, kandi hari n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, hari ayanditse mu ibara ry'icyatsi, kandi hari urupapuro ruriho ibara ry'umweru, hasi no hejuru ruriho akarongo kari mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi bari mu muhanda, higanjemo abambaye imipira ifite ibara ry'umweru, kandi hirya no hino bakikijwe n'ibiti hamwe n'amatara yo ku mihanda, abari imbere bafite ibyapa byanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Ikinyarwanda avuga ngo "twirinde kanseri y'ibere, tuyisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira".

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku. Harimo umugabo wageretse ukuguru ku kundi, wicaye ku ruhande rw'ibumoso yambaye kositime zifite ibara risa n'ivu ndetse na karuvati y'ubururu. Yegeranye n'undi mugabo wipfumbase, wambaye ishati y'umweru.

Umugabo uhagaze yambaye kositime ndetse n'imbere yambayemo ishati y'umukara hamwe na karuvati. Imbere ye hari agatuti gafite ibara ry'umweru ndetse n'andi mabara kandi hariho na mikoro kandi hari kamera iri kumufotora.

Abantu bicaye, harimo umugore wicaye ku ruhande rw'iburyo ufite mikoro kandi ku ruhande rw'ibumoso hari umugabo ufashe impapuro mu ntoki ari gusoma, inyuma yabo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, ari mu ibara ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo kandi inyuma yayo hari abana bicaye bambaye impuzankano, ifite ibara ry'ubururu n'umweru kandi hari n'umugabo wicaye ibumoso bwabo, wambaye ipantaro ya kake ndetse n'ishati y'umweru.

Abantu benshi bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku kandi imbere yabo hari abandi bicaye mu ntebe zifite ibara rya beje, harimo umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu ndetse iburyo bwe hari icyapa kiriho ibara ry'umutuku n'umweru ibumoso hari ikindi kiriho ibara ry'ubururu.

Abantu babiri bambaye imyenda y'imikara, umwe aricaye, yahuje ibiganza, undi amuhagaze iruhande yafashe mu mufuka ndetse hari amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza yandikishije amabara atandukanye, harimo iry'ubururu, umutuku n'ayandi.

Umuntu wunamye yambaye ingofero, ari gupfura ibyatsi ndetse yambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu. Hari n'abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'udufire mu mutwe ndetse hari n'undi uri kubaka, yambaye ingofero y'ubururu mu mutwe hamwe n'jire ifite ibara rya oranje.

Abantu bahagaze kuri tapi y'icyatsi inyuma yabo hari amatara ari kwaka ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye. Harimo umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umweru, amasogisi ndetse n'inkweto z'umukara kandi harimo n'undi mugabo urimo hagati wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'icyatsi, yatebeje ndetse yambaye n'umukandara.

Abantu bicaye mu ntebe z'umutuku, harimo abambaye imyenda igiye itandukanye ndetse imbere yabo hari abandi bicaye harimo umugabo ufite mikoro, wambaye kositimu zifite ibara ry'ubururu, mo imbere yambayemo karuvati y'umutuku.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'Ikinyarwanda, hari ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ayandi ari mu ibara ry'umuhondo, aravuga ngo "twirinde indwara y'ubushita bw'inkende" kandi yose yanditse ahantu hafite ibara ry'ubururu.

Abantu bagiye batandukanye, harimo umugabo wambaye amarinete, kandi hari n'undi wambaye ishati y'umweru inyuma yambaye ikote ry'umukara. harimo n'umugore uteze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'icyatsi, kandi hari amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza.

Abantu benshi bahagaze kandi hari n'abandi babicaye imbere, harimo umugore wambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'umweru kandi iburyo bwabo n'ibumoso hari ibyapa bigiye bitandukanye, hejuru muri parafo hari kwaka amatara afite ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze ndetse hari n'abandi babiri bicaye hagati yabo hari ameza ateretseho mikoro ebyiri, kandi hari umugore wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara ndetse n'agakoma ku kuboko kw'ibumoso umuganga afasheho.

Abantu babiri bahagaze imbere y'icyapa kirimo amabara atandukanye. Hari umugore wambaye inkweto ndende zifite ibara ry'umukara ndetse n'ikanzu, kandi ku kuboko kw'ibumoso yambayeho isaha. Hari n'umugabo wambaye baji mu ijosi ndetse n'umukandara n'ipantaro n'inkweto n'ikote bifite ibara ry'umukara, kandi mo imbere yambariyemo ishati.

Abantu bahagaze mu byatsi ndetse harimo abambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, imikara, ubururu ndetse hari n'umugabo wambaye imyenda y'icyatsi, inyuma yabo hari imodoka.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo, ifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure kandi bisize irangi ry'umweru, mo imbere harimo amarido ndetse imbere y'iyo nyubako hari indabo zigiye zitandukanye kandi ziri mu mabara atandukanye.

Inyubako igeretse, yubakishije amatafari ahiye kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure. Mu ibaraza ryayo hasi harimo abantu benshi bahahagaze ndetse imbere yayo hari ibyatsi hamwe n'ibiti.

Inzu yubatse ku buryo bugeretse, isize amarange agiye atandukanye. Ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure kandi hari imodoka ziparitse mu gipangu, hari n'abantu bahahagaze ndetse inyuma y'igipangu hari ibyatsi.

Umwana wambaye imyenda y'imikara, ari gusunika umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ndetse imbere yabo hari umugore uhahagaze wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru. Hari n'ibitambaro bifite ibara ry'umuhondo, ubururu, icyatsi n'umweru.

Icyumba kinini kirimo ibitanda biri ku murongo bishasheho amashuka afite ibara rya kaki ndetse n'umweru, bimwe biryamyeho abantu kandi hejuru yabyo hari supenete, hirya yabyo hari igikuta gisize irange ry'umweru ndetse n'amadirishya y'ibirahure.

Icyumba kirimo intebe z'ubwoko bugiye butandukanye, hari izifite amapine kandi harimo n'igitanda gishasheho agatambaro k'umweru, gifite n'umusego ufite ibara ry'umuhondo.

Icyumba kirimo ibitanda bifite amashuka asa ndetse bisize irangi ry'ubururu, umweru n'ahandi hari agatuku, hirya yabyo hari idirishya ry'ibirahure ndetse n'igikuta gisize irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo amakaro ndetse hejuru muri prafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru, harimo intebe zifite ibara ry'uburu n'izindi zifite ibara risa n'ivu, kandi inkuta zayo zifite ibara ry'umweru, hari na camera.

Abantu bahagaze mu byatsi ndetse imbere yabo hari undi usutamye, inyuma yabo hari inzu hamwe n'ibiti by'amoko agiye atandukanye, muri bo hari umugabo wegereye icyapa wambaye amarinete ndetse n'ijire ry'ubururu n'ishati y'amaboko ifite ibara ry'umweru.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse isize irangi ry'umweru hamwe n'isara nk'ivu harimo umuntu uhagaze mu ibara ryayo kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure. Hirya yayo hari ishyamba ryinshi ndetse n'abantu bari kugenda kandi hari idarapo rifite ibara ry'ubururu , umuhondo n'icyatsi.

Icyumba kirimo ibitanda biri ku murongo bifite amapine kandi hari asize irange ry'ubururu ndetse hari amarido amanitse hejuru afite ibara ry'umuhondo kandi hari n'amadirishya y'ibirahure.

Inzu isize amarangi y'umuhondo kandi hari n'ahubakishije amatafari ahiye, mu ibaraza harimo intebe zihateye kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, hirya hari ikigega cy'umukara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ifite amadirishya y'ibirahure anasize irangi ry'umweru, mu ibaraza ryayo harimo abantu bicaye, kandi imbere yayo hari n'abandi bahahagaze ndetse n'icyapa.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse kiriho n'idirishya risize irangi ry'umweru kandi rifite ibirahure, hari amagambo yanditse mu rurimi rw'ikinyarwanda, hejuru yaryo avuga ngo aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure kandi yubakishije amatafari ahiye. Imbere yayo hari imodoka zihaparitse kandi hari n'umuntu uri mu mutaka, wambaye imyenda ifite ibara ry'umutuku ndetse hari n'ibiti biri inyuma yayo.

Inzu yubatse ku buryo bugeretse, isakaje amabati kandi isize irangi ry'umweru n'umuhondo, hari amagambo yanditse imbere avuga ngo ikigo nderabuzima cya Nyaruyenzi. Mu ibaraza ryayo harimo abantu bahagaze kandi imbere yayo hari ibiti.

Icyumba kirimo ibitanda biriho amashuka y'umweru. Kandi kigiye gisize amarangi agiye atandukanye. Hari igikuta kiriho irangi ry'umweru, ubururu hamwe n'icyatsi. Ndetse hejuru muri parafo harimo amatara yaka umweru. N'inzugi zifite ibara rya kaki na shokora.

Abantu bicaye ku murongo harimo umukobwa wambaye agapfukamunwa ndetse mu mutwe atezemo agatambaro gafite ibara ry'ubururu n'umweru, imbere yabo hari umugabo wambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'agapfukamunwa.

Icyumba gifite inkuta zisize irange ry'umweru ndetse hari n'ubukarabiro bwinshi buriho ibara ry'umweru ahagana hasi bufite ibara risa n'ivu, hejuru muri parafo harimo amatara yaka umweru.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye kandi isakaje amabati ndetse ifite amadirishya y'ibirahure asizeho irangi ry'umweru, imbere yaho hari abantu bahari kandi hari n'ibyatsi n'indabo ndetse n'icyapa.

Umugabo wicaye munsi yigiti kinini gihagaze, yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru hamwe n'ipantaro y'umukara ifite ibara ry'umukara, ikiganza cye cy'ibumoso yagikojeje hasi ndetse hirya ye no hino hagiye hari ibyatsi.

Inyubako zisakarishije amabati afite ibara ry'umutuku ndetse zifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, kandi imbere y'aho hari imodoka zihaparitse ndetse na moto n'abantu bahagaze, n'idarapo rifite ibara ry'ubururu, umuhondo, n'icyatsi.

Inyubako zubatswe ku buryo bugeretse kandi zisize irangi ry'umweru, hari n'ahubakishije amatafari ahiye. Zifite inzugi n'amadirishya by'ibirahure kandi iruhande rwazo hari abantu bahari.

Icyumba kiriho ibitanda biryamyeho abantu ndetse bifite amapine. Hari uwiyoroshe ishuka ifite ibara ry'umweru, kandi hari n'undi wegereye igikuta wiyoroshe ishuka ifite ibara ry'ubururu. Hari amadirishya y'ibirahure ariho amarido ndetse hejuru hamanitse supanete.

Icyumba kirimo amatara hejuru muri parafo ari kwaka ibara ry'umweru ndetse hari amadirishya n'inzugi z'ibirahure, kandi hari ahantu hasize irangi ry'umweru, ahasize iry'icyatsi n'ayandi.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo bugeretse, mu ibaraza ryayo harimo abantu bahahagaze, ndetse imbere yaho hari ibyapa bitandukanye ndetse n'imodoka zihaparitse. Isize irangi ry'umuhondo kandi hari n'ahandi hari irangi ry'umweru.

Inzu irimo igitanda gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, hirya yacyo hari amadirishya y'ibirahure asize irange ry'umweru ndetse afite na giriyaje, kandi hari igishushanyo gishushanyije ku gikuta kirimo indabo z'umutuku n'umweru.

Porotaye yanditseho kigina health center, mo imbere harimo inzu isize irangi ry'umweru ifite n'idirishya, kandi isakaje amabati afite ibara ry'ubururu, inyuma y'igipangu hari umugore uhahagaze uhetse umwana.

Igipangu kirimo inzu yubakishije amatafari ahiye ndetse isakarishije amabati afite irange ry'ubururu kandi inyuma y'icyo gipangu, hari ibyapa bihahagaze biri hafi y'umuhanda ndetse ifite geti y'ibara ry'ubururu.

Inzu yubakishijeho amatafari ahiye, ndetse iriho urugi rw'ibirahure rwometseho impapuro zijya zitandukanye, hejuru ku muryango hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu mabara agiye atandukanye, harimo iry'umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi kandi hirya yayo hari ibiti.

Icyumba kigiye kirimo amabara atandukanye, hejuru muri parafo hari amatara yaka ibara ry'umweru, ndetse ibikuta bimwe bisize irangi ry'ubururu, umuhondo, icyatsi na oranje, hari amadirishya y'ibirahure asize irangi ry'ubururu.

Abantu bari kugenda bambaye amashati y'amaboko maremare afite ibara ry'umweru, mu maboko yabo bafashemo udutebo duto turimo ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari inyubako isize amarangi atandukanye kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure, kandi isize irangi ry'umweru hamwe n'irisa n’ivu. Imbere yayo hari amapave, ndetse hejuru yayo haraca imigozi itwara umuriro. Har’icyapa kiri imbere yayo kandi hirya no hino hari ibyatsi n'ibiti.

Icyumba kinini kirimo amatara hejuru muri parafo ndetse harimo n'intebe zifite ibara risa n'ivu kandi imbere yazo hari agatuti gasize irangie ry'umweru na kake kandi hari n'amadirishya y'ibirahure.

Abakobwa bahagaze bafunze ingumi. Bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda ifite ibara ry'ubururu. Hari uri ku ruhande rw'ibumoso wambaye agakomo ku kuboko ndetse na baji mu ijosi. Inyuma yabo hari indabo.

Umubyeyi wambaye agasengengeri gafite ibara rya move ndetse harimo n'utudomo tw'umweru. Akikiye uruhinja ndetse iruhande rwe hari umuganga wunamye afashe kuri urwo ruhinja, yambaye agapfukamunwa n'itabura y'amaboko magufi bifite ibara ry'umweru ndetse n'agafire mu mutwe kandi yambaye n'amarinete.

Umugabo uri guseka cyane yambaye umupira ufite ibara ry'umukara kandi afite amenyo yumweru ndetse afite n'ubwanwa, yiyogoshesheje afite agasatsi gake cyane ku mutwe.

Inyubako mu ibaraza ryayo hicayemo abantu ndetse hirya yayo hari ibiti, imbere yayo hari icyapa cyanditseho ikigonderabuzima cya Gisenyi, ndetse mu muhanda uhegereye hari umuntu bahetse ku igare n'indobo iteretse ifite ibara ry'ubururu.

Abantu bicaye mu nzu, bambaye udupira twamabara agiye atandukanye, tw'amaboko magufi, bicaye mu ntebe z'icyatsi kandi iruhande rwabo hari uducupa tw'amazi, ahagana hirya hari umugore uteze agatambaro k'umweru mu mutwe kandi hirya yabo hari ama...

Icyumba kirimo ibitanda biri ku murongo, bishasheho amashuka afite rya kake. Ndetse hejuru yabyo hari supaneti na vandarateri hamwe n'amatara yaka ibara ry'umweru. Kandi hari amadirishya y'ibirahure.

Icyumba kirimo intebe zifite ibara ry'umukara kandi harimo abantu bambaye ibisurubeti bifite ibara ry'umweru, harimo n'uturongo tw'ubururu, hirya yabo hari ibitanda biryamyeho abantu kandi hari amarido y'ubururu na supanete zihamanitse.

Abantu bari kugenda mu kayira k'amapave, ndetse hari inyubako ifite amadirishya y'ibirahure. Hirya no hino hari ibiti ndetse n'ibyatsi ,kandi hari icyapa gihagaze kirimo ibara ry'umweru n'umukara.

Inzu yubatse ku buryo bugeretse, isize amarangi atandukanye kandi ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure zisize irangi ry'ubururu, kandi imbere yayo hari ubusitani n'ibaraza ndetse hari n'imodoka iparitse.

Umuntu uryamye ku gitanda kiriho ishuka y'umweru kandi yambaye ishati y'amaboko magufi n'ikabutura bifite ibara ry'ubururu, ku mutwe hari umuganga uhicaye ndetse hirya ye hari n'undi uhahagaze wambaye iherena ku gutwi.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, isakarishije amabati afite ibara ry'ubururu. Ndetse ifite amadirishya n'inzugi z'ibirahure kandi isize amarangi agiye atandukanye. Hari abantu bahagaze iruhande rwayo ndetse n'imodoka ihaparitse.

Icyumba kirimo intebe zifite ibara ry'ubururu kandi zifite n'amapine. Harimo indobo zifashwe n'utwuma zifite ibara ry'umuhondo kandi hari n'amakaro hasi. Gifite inkuta zisize irangi ry'umweru, hamwe n'igitambaro kirimo gifite ibara ry'ubururu.

Umugore uryamye ku gitanda ndetse hejuru ye hamanitse supernet ifite ibara ry'umweru. Hari umuganga umwegereye wunamye wambaye amarinete n'itaburiya kandi hirya yabo hari igikuta gisize irangi ry'umuhondo.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru ku gikuta hariho isaha ihamanitse ndetse na taburo, kandi hejuru muri prafo harimo amatara yaka umweru ibikuta byose ahagana hasi hariho ibara ry'umukara.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, hari amagambo ari imbere yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari mu ibara rya orange ndetse hari n'ibiti biri imbere y'iyo nyubako, isize irangi rifite ibara risa n'ivu kandi harimo n'imyenge minini.

Icyumba kirimo kamera ndetse hejuru muri parafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru. Harimo intebe zikikije ameza zifite ibara ry'ubururu, izindi zifite ibara risa n'ivu kandi hari n'izisa kake.

Igipangu cyubakishije ibyuma ndetse hari n'ahari amatafari ahiye, mu imbere harimo icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri, kandi harimo inyubako zisakaje amabati afite ibara ry'ubururu, kandi harimo n'ubusitani ndetse inyuma y'icyo gipangu hari urujya n'uruza rw'abantu.

Amarembo manini yanditseho Kabgayi hospital. Ndetse mo imbere mu gipangu harimo ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'inzu zisakarishije amabati y'ubururu. Kandi zubakishije amatafari ahiye, hari n'umuntu uri ku igare ndetse yegereye amatara yo ku mihanda.

Icyumba gifite inkuta zisize irangi ry'umweru ahagana hasi zisize iry'umukara kandi hariho inzugi n'amadirishya y'ibirahure, hejuru muri parafo harimo amatara yaka umweru ndetse na kamera.

Inyubako zisize amarangi agiye atandukanye ndetse hejuru zisakarishije amabati y'umutuku, hagati yazo hari ubusitani kandi hari uruhande rw'ibumoso rufite ibaraza ririmo abantu.

Icyumba kirimo intebe z'ibiti, zirimo imisego bifite ibara risa n'ivu. Kandi harimo ameza afite amabara atandukanye, iy'umukara, umweru na kacye. Mu nguni harimo ivaze irimo ururabo, kandi hari akandi kavaze gato, karimo ururabo gafite ibara ry'umweru gateretse ku meza.

Inyubako isize amarangi atandukanye, iry'umweru ndetse n'irisa n'ivu. Ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure kandi imbere yayo hari amadarapo atandukanye, hari irifite ibara ry'umuhondo, ubururu n'icyatsi n'irindi ririmo umweru.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'umweru, hamwe n'ipantaro y'umukara kandi iruhande rwe hari undi wicaye imbere y'ameza ateretseho mudasobwa, telefone, igitabo hamwe n'agacupa k'amazi.

Umugore uteruye uruhinja yambaye imyenda ifite ibara ry'umweru mu ijosi yambayemo ishanete kandi inyuma ye hari undi wambaye amarinete ndetse ufite n'ibisuko ku mutwe kandi yambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse, ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure kandi isize irangi risa n'ivu, imbere yayo hari imodoka ziparitse nyinshi kandi harimo n'umugabo uzihagaze mo hagati, wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ndetse isize amarangi agiye atandukanye. Inzugi zayo ni ibirahure, zisize irangi risa n'ivu kandi zifite na giriyage. Imbere hari imodoka ihaparitse kandi hari n'amapave.

Umuganga ufite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikayi ari kwandikiramo. Imbere ye hari ameza kandi hari n'umuntu uhicaye wambaye agapira k'amabokoguru magufi, yambaye n'agakomo ku kuboko kw'ibumoso, kandi inyuma yabo hari undi muganga uhahagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse mu biganza byabo bambayemo ga zifite ibara ry'ubururu. Imbere yabo hari ameza afite ibara ry'umweru ariho ibintu bigiye bitandukanye, harimo icupa rifite umupfundikizo w'icyatsi ndetse n'impapuro bakoresha bisukura mu bwiherero.

Icyumba kinini kirimo umurwayi uryamye ku gitanda ndetse yiyoroshe ikiringiti kirimo amabara atandukanye harimo iry'ubururu, umutuku n'ayandi. Hamanitsemo amarido afite ibara ry'icyatsi ndetse hari n'umuganga wambaye itaburiya ngufi ifite ibara ry'umweru hamwe n'ipantaro y'icyatsi.

Inyubako zisize amarange atandukanye, hari ahasize irange rya oranje kandi amadirishya n'inzugi zifite ibirahure, hari fondasiyo yubakishije amabuye kandi harimo n'umuhanda ukikijwe n'ubusitani.

Intebe zifite ibara ry'umukara ziticayeho abantu. Ndetse hirya yazo hari abandi bantu bicaye mu ntebe, harimo umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ubururu, imbere yabo hari inzugi n'amadirishya y'ibirahure kandi asize irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo amatara yaka ibara ry'umweru, kandi harimo ibitanda bigiye bitandukanye, hari igiteretseho igikapu cy'umukara, ndetse hagati yabyo hagiye hamanitse amarido afite ibara rya kake.

Umuganga usutse yambaye amarinete, agapfukamunwa ndetse n'iherena ku gutwi kw'iburyo, yambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru, imbere ye hari mudasobwa kandi inzara ze zisize verine ifite ibara ry'umutuku.

Umugore wicaye ku buriri, yambaye isengeri ndetse yafashe ku gitanda, kandi iruhande rwe hari umuganga umufashe ku rutugu rw'ibumoso, hirya yabo hari undi uryamye ku buriri wiyoroshe ishuka ifite ibara ry'ubururu, kandi hari amadirishya ari hirya yabo.

Inyubako isize iranei ry'umuhondo kandi hari amagambo yanditse hejuru ari mu ibara ry'icyatsi, imbere yayo hari umuntu wunamye wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ubusitani.

Ubusitani burimo indabo, ibiti ndetse n'ibyatsi, hirya yazo hari inyubako zubakishije amatafari ahiye, kandi hari n'aho zisize irangi ry'umweru, zisakaje amabati afite ibara ry'ubururu kandi mu ibaraza hari imodoka zihaparitse.

Inzu yubakishije amabuye ndetse ifite inzugi n'amadirishya y'ibirahure, hari inkingi zisize irange rya shokora kandi mu ibaraza ryayo harimo abagabo babiri bari kugenda, harimo uwambaye itaburiya y'umweru ndetse n'uwambaye ipantaro y'umukara.

Inyubako isize amarangi agiye atandukanye harimo irisa n'ivu ndetse n'irifite ibara ry'umuhondo, ifite ibaraza imbere kandi hari n'icyapa kiri mu busitani kiriho ibara ry'umuhondo, icyatsi, oranje n'ayandi, hari n'igiti gihagaze kinini.

Icyumba kirimo urukarabiro ndetse harimo n'igitanda cy'amapine gifite ibara ry'ubururu n'umweru gishasheho uburingiti bufite ibara risa n'ivu hamwe n'umusego hirya yaho hari igikuta gisize irangi ry'umweru ndetse na parafo hejuru.

Inyubako yubatse ku buryo bugeretse ifite amadirishya y'ibirahure ndetse imbere yayo hari ibyapa birimo ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi n'umuhondo, hari ibiti biri imbere yayo.

Icyumba giteretsemo ivaze ndetse iruhande rwacyo hari amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ari ku rubaho rwometse ku gikuta, hirya y'ivaze hari urugi rw'ibirahure rusize irangi risa n'ivu.

Umuganga wicaye mu cyumba, ku ntebe ifite ibara ry'icyatsi kandi yambaye itaburiya y'umweru, harimo ikaramu mu mufuka wayo ndetse inyuma ye hari ibikuta bisize irangi ry'umuhondo,

Icyumba kirimo intebe zifite ibara risa n’ivu ndetse n'umweru. Kandi harimo n'ameza ateretseho mudasobwa. Hirya yayo hari akabati kariho uducupa dutandukanye, ndetse inkuta zo muri icyo cyumba zisize irangi ry'umweru.

Icyumba kirimo amatara hejuru muri parafo yaka ibara ry'umweru ndetse na kamera kandi hasi harimo amakaro, hari ivaze iteretse mu nguni, harimo igiti gifite amababi y'icyatsi kandi hari n'inzugi z'ibirahure zisize irangi risa n'ivu.

Inzu ziri mu gipangu harimo isakarishije amabati y'umutuku kandi amadirishya n'inzugi zayo zisize irangi ry'ubururu indi nyubako yasakarishije amabati y'ubururu kandi amadirishya asize irangi ry'umweru izo nzu zombi zubakishije amatafari ahiye kandi imbere yazo hari ubusitani.

Inzu zisakaje amabati y'ubururu, kandi zisize irangi ry'umweru, hari umugabo uhagaze mu ibaraza wambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'itaburiya y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru, iyo nyubako ifite amadirishya n'inzugi z'iroho ibirahure ziriho giriyage, kandi imbere yayo hari akayira kubakishije amapave.

Abaganga bahagaze, harimo abambaye amataburiya afite ibara ry'umweru, hirya yabo hari umukecuru wifubitse igitenge kirimo ibara ry'ubururu, yambaye agapfukamunwa kandi hari n'ibitanda bifite ibara ry'umweru.

Umuntu wirabura wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru, ndetse ukuboko kwe kw'iburyo yakurambuye ikiganza cyo kuboko kw'ibumoso agikoza ku gatambaro yarambitse ku kuboko kw'iburyo gafite ibara ry'ubururu n'umweru.

Umukobwa uri muri siporo yambaye bisitiri ndetse na kora bifite ibara ry'umweru, yicaye kuri tapi ifite ibara risa n'ivu, kandi ku kiganza cye cy'ibumoso yambayeho impeta, inyuma ye hari ivase iteretsemo ururabo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi harimo inshinge, ibinini kandi hari icupa rifite ibara rya shokora, inyuma hariho agapapuro gafite ibara rya oranje hari n'itoroshi ifite ibara ry'umutuku n'umukara.

Umukobwa uri muri siporo yambaye agasengeri gafite ibara risa n'ivu ndetse kariho n'uturongo tw'umukara, ku rutugu rwe rw'ibumoso yarambuyeho igitambaro gifite ibara ry'umukara, yambaye iherena ku gutwi kandi ari kunywera amazi mu icupa afashe mu kiganza cy'iburyo.

Umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara rya pinki ndetse n'ekuteuri mu matwi zifite ibara ry'umweru, afite imisatsi miremire igera mu mugongo kandi mu kuboko kw'ibumoso afashemo agacupa k'amazi ari kunywa.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku n'umukara ndetse hari akarongo k'ibara ry'icyatsi n'agasa n'ivu. Mo imbere harimo imikasi igiye itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa kwa muganga.

Umugabo ufite ubwanwa yambaye shanete mu ijosi ndetse mu kiganza cye cy'iburyo afashemo icupa ari kunyweramo, kandi yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye, wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu karimo uturango tw'umweru ndetse ku ruhande rwe rw'ibumoso, hari umuganga wunamye, wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara ndetse n'isaha ku kuboko kw'ibumoso.

Akagare k'abafite ubumuga gafite amapine abiri y'imbere mato ndetse n'ayandi abiri y'inyuma manini arimo amasera, hari ahantu hari ibyuma hasize irangi ry'ubururu kandi aho bicara hafite ibara ry'umukara.

Umuzungu wambaye impeta ku kiganza k'ibumoso kandi yambaye umupira ufite ibara ry'umukara ndetse ufite n'imashini. Iruhande rwe hari umwirabura wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ivu ndetse na ga mu ntoki zifite ibara ry'umukara n'umweru.

Umukobwa wicaye ku buriri yambaye bisitiri ndetse na cola bifite ibara ry'umukara, ari kwigorora .Ku kuboko kw'ibumoso, yambayeho agakoma, kandi uburiri bushasheho ikiringiti gifite ibara risa n'ivu, ndetse inyuma ye hari igikuta gisize irangi ry'umweru

Umugabo uhagaze yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu kandi mu kuboko kw'imoso afashemo icupa ry'amazi ari kunyweramo rifite ibara ry'ubururu. Ukw' iburyo yaziritseho agatambaro k'umweru ndetse yamanuye ekuteri azishyira mu ijosi.

Umukobwa uri muri siporo yambaye bisitiri ndetse n'ikabutura kandi imisatsi ye ni miremire igera mu mugongo, ukuguru kw'iburyo yakuzamuye aguhinira hejuru kandi ibiganza bye byombi arabihuza abifatisha ku kuguru kw'iburyo.

Umugore wifubitse agatambaro karimo amabara atandukanye, harimo iry'umukara, umuhondo n'ayandi ndetse ukuboko kwe kw'ibumoso yagufatishije ku mwana kandi akwambayeho agakomo, hari n'umuganga uri iruhande rwabo, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu na we wafashe ku mutwe w'umwana.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'ubururu ndetse ku kuboko kwe kw'iburyo, yambayeho agatambaro k'umweru kandi ari kunywera mu icupa, rifite ibara ry'ubururu, yafashe mu kuboko kw'ibumoso.

Umuntu wambaye agakabutura gafite ibara ry'umukara ndetse mo imbere yambayemo kora ngufi ifite ibara risa n'ivu, yahinnye ukuguru kw'iburyo ndetse gufashweho n'umuganga umuri iruhande wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu bwijimye, afite ubwanwa kandi ku kuboko kwe kw'iburyo yambayeho isaha y'umukara iriho akadomo k'umweru ndetse mu kiganza afashemo icupa ry'amazi ari kunywa.

Umuntu wambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'umukara, kandi mu biganza bye haziritsemo umugozi ufite ibara ry'umuhondo ari gukurura, kandi iruhande rwe hari umuntu uhahagaze wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, amufashe ku kuboko kw'iburyo.

Umugore ukikiye umwana wambaye agapira k'amaboko magufi karimo ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru hari n'umuganga wamufashe ku mutwe, wambaye agapfukamunwa n'itaburiya, yicaye ku ntebe y'umukara, imbere yabo hari ameza.

Umugabo uri muri siporo yambaye isengeri n'ikabutura bifite ibara ry'umukara. Ukuguru kw'ibumoso yagushyize imbere ndetse ukw'iburyo agushyira inyuma apfukamisha ivi. Hirya ye hari igikuta gisize irangi ry'umweru.

Umugabo wicaye ku buriri yambaye imyenda y'umukara, ikabutura irimo akarongo k'umweru, ndetse ukuguru kumwe kwambaye isogi ze n'urukweto, ukundi hari umuganga uri kugushyiraho agatambaro, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye mu byatsi yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara kandi irimo n'akabara gasa n'ivu, amaguru ye yayarambuye ndetse n'amaboko ye yombi ararambuye, ibiganza bifashe ku nkweto yambaye.

Imbuto z'amoko atandukanye ndetse harimo n'imboga, hari ironji rifite ibara ry'umuhondo kandi hari pome y'icyatsi n'iy'umutuku, hari avoka ndetse hari n'urusenda hamwe na burokoli.

Amacupa abiri y'amazi ndetse kamwe kazirikiyeho metero ifite ibara ry'umweru irimo imibare yandikishije ibara ry'umukara, hari indimu inyuma ifite ibara ry'umuhondo mo imbere irasatuye ifitemo ibara rya beje.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza, yandikishijwe ibara ry'umweru. Hirya yayo hari ibinini by'amoko atandukanye, bifite amabara y'umweru, umuhondo, oranje n'ayandi.

Umugabo ufite ubwoya ku maguru, yambaye ipantaro ndetse ukuguru kw'ibumoso yaguhinnye kandi ikiganza cy'iburyo gifashe agatambaro yashyize ku ivi ry'ibumoso gafite ibara ry'umweru n'ubururu.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi, gafite ibara ry'icyatsi ndetse mu kuboko kwe kw'ibumoso, afashemo baro, ifite ibara ry'ubururu ndetse ku rundi ruhande, hariho ibara risa n'ivu kandi harimo n'umubare kane, wanditse mu ibara ry'umukara.

Imbuto zigiye zitandukanye, harimo pome ifite ibara ry'umutuku ndetse hari n'icunga rifite ibara ry'umuhondo. Hari icupa ry'amazi rifite umupfundikizo w'ubururu ndetse hari na metero ifite ibara ry'umuhondo, harimo imibare yandikishije umukara.

Imbuto z'ubwoko butandukanye, hari inkeri zifite ibara ry'umukara n'iz'umutuku ndetse hari na pome y'umutuku. Kandi hari ikirahure kirimo amazi n'ikindi kirimo ji ifite ibara ry'umuhondo ndetse hari na metero ifite ibara ry'umuhondo, yanditsemo imibare iri mu ibara ry'umukara.

Umwana uri kunywera mu icupa rifite ibara ry'ubururu n'umweru afashe mu kiganza cy'iburyo, yambaye isengeri ifite ibara ry'umukara, icyatsi, umweru hamwe n'ubururu, kandi mu ijosi yambayemo agashaneti.

Abantu benshi bari mu kibuga higanjemo abana, hirya yabo hari inzu isakarishije amabati y'umutuku ndetse hari n'icyapa kandi hari itente rifite ibara ry'umweru hamwe n'ibiti n'ibyatsi ndetse n'urutoki.

Umuntu wunamye yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isaha ku kuboko ku ibumoso. Ibiganza bye byombi yabifatishije mu ivi ryo ku kuguru ku ibumoso, kandi inyuma ye hari umuhanda n'ibihu.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi, ndetse ku kuboko kw'ibumoso yambayeho agatambaro gafite ibara rya move. Mu biganza bye byombi harimo icupa ry'amazi ari kwimena mu maso.

Umugabo uhagaze afite ubwanwa ndetse yambaye n'amarinete, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umukara kandi ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe icupa ry'amazi ari kwimena mu maso.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru ndetse n'agakabutura karimo utubara tugiye dutandukanye. Imbere ye hari umuganga uri kumumenyereza kugenda, wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, urimo n'akarongo k'umweru. Hirya yabo hari Vandilateri.

Umuntu uryamye ku buriri, uriho umukasi, ukuguru kw'iburyo yakurambuye, gufashwe n'umuganga uri kuguhambiraho igitambaro cy'umweru, kandi ukw'ibumoso yambayeho inkweto ndetse uwo muganga yambaye ipantaro ifite ibara rya kaki.

Metero ifite ibara ry'umuhondo, irimo imibare yandikishije ibara ry'umukara. Ndetse hari na ji iri mu kirahure ifite ibara ry'umuhondo kandi hari pome ebyiri zifite amabara atandukanye y'icyatsi n'iy'umutuku.

Umugabo wicaye mu muhanda yarambuye ukuguru kw'iburyo ndetse n'amaboko ye yombi ayakozaho, ukw'ibumoso yaguhinnye kandi yambaye agapira k'amaboko magufi karimo ibara ry'umukara, umutuku, higanjemo umuhondo, inyuma ye hari ibyatsi.

Umukobwa uhagaze yambaye bisitiri ndetse na kora bifite ibara ry'umukara. Yambaye iherena ku gutwi kw'ibumoso ndetse afite umusatsi w'umukara. Mu kuboko kwe kw'iburyo afashemo icupa ry'amazi, rifite ibara ry'umweru, ari kuyanywa.

Umukobwa wambaye bisitiri ifite ibara rya oranje harimo n'uturongo tw'umweru kandi yambaye ikabutura y'icyatsi irimo uturongo tw'umweru nayo, yarambuye amaguru ndetse ibiganza bye byombi byafashe ku nkweto.

Umukobwa uri muri siporo, arunamye afite imisatsi myinshi. Kandi ukuboko kw'ibumoso yagufatishije ku kuguru, kw'iburyo yarambuye ndetse ukuboko kw'iburyo agushyira inyuma mu mugongo.

Imodoka iri mu muhanda ndetse inyuma yometseho ipine ry'umukara. Hirya yayo hari fondasiyo yubakishije amabuye hamwe n'ibyatsi byumye ndetse hari ibiti bigiye bitandukanye

Umuganga wambaye itaburiya y'amaboko maremare, ifite ibara ry'umweru kandi yambaye na karuvati igiye irimo amabara atandukanye, harimo ibara ry'ubururu, beje ndetse n'ayandi kandi yambaye n'ishati mo imbere y'umweru.

Umugabo wicaye yambaye agapira k'amaboko maremare gafite ingofero, kandi gafite n'imashini, inyuma ye hari igikuta cyubakishije amakaro, kandi afite icupa ari kunyweramo mu kuboko kw'ibumoso.

Umukobwa uryamye kuri tapi yarambuye ukuguru kw'ibumoso, ukw'iburyo yaguhinnye agukozaho ibiganza byombi, ndetse yambaye imyenda y'imikara, kandi hirya ye hari igikuta gisize irange ry'umweru ariko cyubakishije amatafari ahiye hamwe n'idirishya ry'ibirahure.

Umugabo uri muri siporo, yambaye ekuteri zifite ibara ry'umweru, kandi mu kuboko kw'iburyo yambayeho isaha, afitemo icupa ry'amazi ari kuyanywa. Ndetse yambaye n'umupira ufite ibara ry'umweru.

Imbuto zigiye zitandukanye harimo kokombure y'icyatsi ndetse na pome y'umutuku niyi cyatsi, hamwe n'urusenda rw'umuhondo, imineke, burokori, kandi hari n'amacunga afite ibara ry'umuhondo.

Umuntu uri kunywera mu icupa rifite ibara ry'ubururu n'umweru afashe mu kuboko kw'iburyo ndetse yambaye agasengeri gafite ibara ry'umukara, icyatsi, umweru n'ubururu. Hari agatambaro gafite ibara ry'umweru yanyujije inyuma mu bitugu.

Umugabo ufite terefoni mu ntoki, aryamye ku gitanda, yambaye ikabutura ifite ibara ry'umweru, umutuku, harimo n'akabara k'umukara, kandi yambaye agapira k'amaboko magufi. Iruhande rwe hari umuzungu umufashe mu ivi ryo ku kuguru kw'ibumoso yazamuye, kandi yambaye agakomo ku kuboko kw'ibumoso.

Ikarito ifite ibara rya kake ndetse mo imbere harimo utundi dukarito dufite ibara ry'umuhondo kandi dushushanyijeho igikakarubamba, imipfundikizo idupfundikiye ifite ibara rya shokora. Inyuma y'iyo karito hari akandi kamwe kari konyine.

Amacupa agiye atandukanye kandi hari irifite ibara ry'umuhondo, ripfundikije umupfundikizo wa shokora, hari n'irindi rifite umupfundikizo wa pinki, kandi hari andi agiye afite ibara ry'umweru n'irindi rifite ibara ry'icyatsi.

Udukarito tugiye dutandukanye, hari udufite ibara rya shokora, akandi gafite ibara ry'ubururu ndetse hari n'imineke, inyuma y'ayo makarito hari inanasi ndetse n'ururabo rufite amababi y'icyatsi n'indabyo z'umuhondo.

Umuntu ukenyeye igitenge kirimo amabara atandukanye arimo iry'umutuku, umuhondo, bege, icyatsi n'ayandi, kandi imbere ye hari ibiti byezeho indabo zigiye zitandukanye, zifite ibara rya pinki ndetse n'izindi zifite ibara rya move.

Abantu bari kugenda bahetse ibikapu biri mu mabara atandukanye, icy'ubururu, umutuku, umukara n'umuhondo kandi imbere ya bo hari amazi ari gushoka aturutse ku musozi ndetse bakikijwe n'ibihuru byinshi hamwe n'amabuye.

Udukarito tubiri dufite amabara atandukanye twanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, kamwe gafite ibara ry'umuhondo ndetse gapfundikishije umupfundikozo ufite ibara rya shokora, akandi gafite ibara ry'umweru umupfundikizo ugapfundikiye ufite ibara ry'umutuku.

Amacupa agiye atandukanye yose ahurije ku cyapa kiyariho. Ndetse hari irifite ibara rya shokora, hari irifite umupfundikizo ufite ibara ry'icyatsi ,kandi hari n'irindi cupa ririho ibara ry'umutuku n'umweru.

Umugabo uri mu biti by'amoko agiye atandukanye, hari ibifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru, ku ikora ndetse no ku maboko hariho ibara ry'umukara.

Umugore wifubitse agatambaro gafite ibara ry'umweru, ndetse mu kuboko kw'ibumoso afashemo ishakoshi rifite ibara rya kaki, ku kiganza cy'iburyo gifashe ku bibabi biri imbere ye, ndetse hari n'insina ifite amakoma.

Uducupa tugiye dutandukanye, ndetse n'agakarito k'umuhondo, gashushanyijeho igikakarubamba. Hari akavido gafite ibara ry'umuhondo, kandi gafite n'umukondo, gafundikije umufundikizo ufite ibara rya shokora.

Amacupa ari ku murongo agiye atandukanye, yose ariho icyapa gifite ibara ry'umweru n'icyatsi, hari icupa rifite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse hari n'irindi rifite ibara rya shokora, kandi hari n'irindi rifite ibara ry'umukara n'icyatsi.

Ikiganza cy'umuzungu gifashe ku kibabi cy'igiti cy'isombe gifite ibara ry'icyatsi, hirya ye hari ibindi biti byumye ndetse n'ibindi bikiri bibisi kandi hirya yabyo hari inzu ihari yubakishije amatafari ahiye.

Udukarito tw'ubwoko bugiye butandukanye, hari agafite ibara rya pinki gashushanyijeho umukobwa ufite imisatsi miremire igera mu mugongo, kandi hari n'akandi kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza, gafite ibara ry'umuhondo hashushanyijeho n'imbuto zitandukanye.

Ibiganza by'umuntu wambaye itaburiya ifite ibara ry'umweru kandi imbere ye hari ameza yashyizeho amaboko ye mu kiganza cy'ibumoso, afitemo ibininini ndetse ny'iburyo afitemo agakarito.

Ameza ateretseho amacupa y'ubwoko bugiye butandukanye, hari intebe ifite ibara ry'ubururu kandi hari n'umugore washikamishije amaboko ye kuri ayo meza wambaye ishati ndetse na baje mu ijosi ifite ibara ry'ubururu, ateze agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umweru.